uburyo bwo kwamamaza hifashishijwe imodoka bashyizeho ibirango by'ibigo by'ikoranabuhanga cyangwa by'icungamutungo mu Rwanda bigiye bitandukanye.

Ikigo cy'ubwishingizi kishingira ibikomoka ku matungo cyangwa ibidukikije mu rwego rwo kwirinda kwangirika.

Sorasi ni umwishingizi ngoboka ingabo y'amahina igutabara aho rukomeye, ni ikigo gishinzwe kwizigamwamo kikaba cyagufasha mubihe bigoye.

Ikigo gishinzwe ubwishingizi ndetse n'ubwiteganyirize mu Rwanda, aho cyishingira abantu mu zabukuru cyangwa inyubako zabo ndetse n'ibindi, mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi.

Ikigo cy'imari gishinzwe ubwishingizi kiri mu ibara ry'umukara ndetse n'ubururu gikorera mu nyubako y'igorofa rirere yubakishijwe ibarahure.

Ikigo cy'ubwishingizi kifashishwa mu kwishingira ibinyabiziga mu rwego rwo kwirinda impanuka ndetse n'ibindi byago bigiye bitandukanye.

Ikigo cy'ubwishingizi kigiboka aborozi tugoboka mu gihe cy'amajye, tugane uhabwa ubwishingizi bw'amatungo yawe, worore, witeze imbere nta mbogamizi. Hmagara cumi n'umunani icumi.

Ikigo cy'ubwishingizi cyitwa prime, ibizazane by'ubuzima ntibiteguza! Ubwishingizi bw'impanuka bwa prime, bugufasha kuguma utekanya. Ku bindi bisobanuri, hamagara cumi na gatatu, makumyabiri.

Ubwishingizi bw'ibinyabiziga ndetse n'abantu, aho wishingira ikinyabiziga kubirebana n'impanuka cyangwa se ukishingira umwana wawe muzabukuru.

Umukobwa utwaye ikinyabiziga ufite inseko ku maso, handitseho gerayo amahoro ni gahunda yo gutwara ku muvuduko wa bugenewe hirindwa impanuka zitateganyijwe mu muhanda.

Ibyishimo by'umuryango ni ukudahangayikira ahazaza hamwe n'ubwishingizi bwo kwivuza bwawe n'umuryango wawe. Ni ikigo cy'ubwishingizi ku bana ndetse n'umuryango.

Ikigo gishinzwe ubwishingizi mu Rwanda aho wishingira umwana kuva akiri muto ndetse ukamuzigamira ukamugoboka igihe agize ibyago, impanuka ndetse n'ibindi.

Icyapa kiriho umugabo uri mu bigori ,handitseho shinganisha ibihingwa byawe ,uhinge utekanye hamagara, cumi n'umunani ,icumi kubindi bisobanuro.

Kwivuza ndetse no mu zabukuru butangwa n'ikigo gishinzwe ubwiteganyirize mu rwanda, hariho umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore n'umwana ndetse n'umuganga.

Igipapuro cy'ikigo cy'ishongamari mu Rwanda ndetse kibika amafaranga, kifashishwa mu kwerekana uburyo amafaranga yagiye yinjira ndetse anasohoka mu bubiko.

Igipapuro cy' ikigo gishinzwe imari mu Rwanda ndetse no kubika umutungo w'abanyarwanda, kiriho amatariki n'uburyo amafaranga yagiye yinjira akanasohoka mu bubiko.

Igipapuro kerekana uburyo amafaranga yagiye yinjira akanasohoka mu kigo gishinzwe imari mu Rwanda ndetse no gucunga umutungo bigendeye ku matariki.

Urubuga rw'ikoranabuhanga ruhuza umuguzi n'umucuruzi aho ushobora kwigurira ifatabuguzi ryo guhamagara kwandika ubutumwa bugufi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Gitangwa n'ikigo cy'imari gishinzwe kubika umutungo n'amafaranga by'abaturarwanda, cyerekana uburyo amafaranga yagiye yinjira akanasohoka mu bubiko, bikurikije amatariki ndetse n'amezi.

Urupapuro rw'ikigo cy'imari, gishinzwe icungamutungo, hariho uburyo amafaranga yagiye yinjira n'uburyo yagiye asohoka ku matariki, umunsi ku munsi.

Inzu y'imideri icururizwamo ibikoresho bya kinywarwanda nk'amasekuru, imidari, ikozwe mumasaro meza ndeste n'imitako igiye itandukanye.

Gukorerwa ubugeni cyangwa imyambaro ikorerwa mu rwanda amashati ari m'ibara ry'ubururu ndetse n'umweru n'umukara, zimanitse ku buryo bwiza.

Ahacururizwa imyenda y'abagabo hagiye itondetse mu buryo bwiza iyo myenda irifu arafubikwa ndetse imanitse ku twuma twabugenewe.

Ahacururizwa imyenda ndetse n'inkweto by'abagore, abagabo, abasore, inkumi ndetse n'abana hari ikanzu iri mu ibara ry'ubururu bwijimye.

.... y'ubunyabugeni, icururizwamo ibikoresho bigiye bitandukanye bikozwe mu bugeni, irimo amasaro, imitako yo gutaka mu nzu n'ibindi bitandukanye.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye nk'imyenda y'abagore y'amakanzu adozwe mu bitenge, ndetse n'amashati y'abagabo adozwe mu yandi mabara ajyanye atandukanye..

Ahacururizwa ibitenge biri mu mabara menshi agiye atandukanye arimo umuhondo, ubururu, icyatsi, umutuku, ndetse n'ayandi.

Imodoka igurishwa iherereye mu mujyi wa Kigali miliyoni z'amanyarwanda makumyabiri neshatu, ikaba isize irangi ry'umweru, ikaba ifite amatara yaka umuhondo, inyuma ikaba hari igikuta gisize ibara ry'umuhondo.

Inzu nziza zubatse neza hari imodoka ziparitse ziri mu ibara ry'umweru ndetse n'indi nini cyane iri mu ibara ry'umuhondo, imbere kandi hakikijwe n'ubwoko bw'indabo

Abantu babiri bari kwamamaza uruganda rukora imodoka, ndetse rukanazicuruza mu Rwanda rwitwa Akagera. Inyuma yabo hari inzu y'igorofa ndetse n'imodoka.

Akagera ni uruganda rucuruza imodoka z'ubwoko bwose zitwara abantu ndetse n'ibintu. Ku ruhande hari imodoka iri mu ibara ry'umukara.

Imodoka nziza cyane iri mu ibara ry'umweru, isa neza iri mu bwoko bw'uruganda rwa toyota iri kandi mu nzu yabugenewe.

Abagabo babiri bakorera uruganda rwitwa Akagera, rutwara ibinyabiziga, rukabikora ndetse rukanabigurisha ku giciro gito cyane, bahagaze imbere y'imodoka nini itwara imitwaro iremereye, ifite ibara ry'umweru.

Ikigo cy'imari gishinzwe gucuruza imodoka nini ziri mu bwoko bwa howo zifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu byinshi byambukiranya imipaka.

Ikigo cy'ubucuruzi gicuruza imodoka hari imodoka iri kwisoko iri mu ibara ry'umutuku ushobora guhamagara k'umurongo zeru, karindwi, umunani, gatandatu, gatatu, gatatu, umunani, kane, icyenda, kane.

Imodoka iri mu ibara ry'umukara igurishwa, uyikeneye wahamagara zeru karindwi umunani, gatandatu gatatu gatatu, umunani kane, icyenda kane. Inyuma yaho hari ibidukikije bigizwe n'amashyamba.

Ikigo gicuruza kikanakora ibinyabiziga biri mu bwoko bw'imodoka hahagaze imodoka iri mu ibara ry'umweru, inyuma hari ibati riri mu ibara ry'umutuku ndetse n'igorofa.

Ikigo kimari gishinzwe gucuruza imodoka nini zitwara abantu ndetse n'ibintu zambukiranya imipaka. Abagabo babiri bari kumwe n'umugore uhagaze hagati.

Ifaranga rimwe rikozwe mu cyuma gishushanyijeho inuma ndetse ryanditswe mu rundi rurimi iyo numa isa nkaho iri kuguruka.

Ahatangirwarwa ubufasha bw'ikigo cy'imari gishinzwe gucunga umutungo, hari abaje gusaba ubufasha bijyanye no kubitsa, kubikuza amafaranga muri icyo kigo.

Igiceri gikoreshwa nk'amafaranga cyakoreshwaga kera mugihugu cy'urwanda cyanditse murundi rurimi hariho igishushanyo cy'isaka ndetse handitseho igihumbi kimwe magana Kenda miringo irindwi na karindwi.

Aho baguha ubufasha burebana n'ikigo cy'imari gishinzwe kubika amafaranga ,harimo abagore b'abakozi bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga bya mudasobwa.

Inoti y'ibihumbi bitanu y'u Rwanda ishushanyijeho igiseke, nayo ikaba iri mu bwoko bw'irange ry'umutuku ndetse hakaba handitseho ibihumbi bitanu, amafaranga y'u Rwanda.

Amafaranga akoreshwa mu buhahirane, ni ayo mu gihugu cyo hanze cya Kenya, imbere yaho hari mudasobwa yifashishwa mu kuyabara.

Amafaranga yo mu gihugu cya Kenya ndetse no muri Amerika afashwe mu ntoki mu nzara zisize ibara, kuri ayo mafaranga hashushanyijeho umugabo ufite imisatsi miremire.

umugore ukora mu icungamari cyangwa icungamutungo ari gufasha umuturage uje umugana uri kumwishyura amafaranga ndetse imbere ye hari mudasobwa ndetse n'utundi tw'uma twifashishwa mu gusohora inyemezabwishyu.

Ahacururizwa ikinyobwa gikomoka ku itungo ry'inka cy'amata handitseho inyange mu mu magambo ari mu ibara ry'umweru ndetse icyapa kiri mu ibara ry'ubururu hari inzugi zifunguye.

Ibikoresho bishyirwamo amata , agakomeza afite ubuzirantenge n'uburyohe ntakemangwa . Akomeza akonje kandi abitswe neza kuburyo agumana ubuzirantenge.

Icyuma k'ikoranabuhanga kifashishwa mu kubika gutunganya neza amata mu buryo bwiza bwizewe ndetse bufite isuku ayo mata ni ay' i Nyanza ndetse akomeza akonje.

Hacururizwa ibinyobwa bidasembuye, hari ibiribwa bikozwe mu ifarini amagi, amata, amazi, isukari, umunyu, ndetse n'amavuta hari kandi amata y'inyange.

Umugabo uribuganiza ikinyobwa gikomoka ku nka cy'amata, agikura mu gicubaa ayashyira mu cyuma cyabugenewe kiyatunganya, kikayakonjesha kikanabika mu buryo bwiza kandi bwizewe.

Ikiribwa gikozwe mu ifarini, amagi, amata, isukari, amazi, umunyu ndetse gitetswe mu mavuta. Ku ruhande hari igikombe kirimo amata.

Ikiribwa gikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye kirimo inyama cyangwa amagi, ndetse kikaba kirimo n'ibirayi.

Abana babiri bari kunywa ikinyobwa kiryoshye cyiza cyuje intungamubiri gikomoka ku inka cy'amata imbere yaho hari imeza irimo ibara ry'umweru

Ikinyobwa gikorwa mu mata kikongerwamo ibindi bintu bigiye bitandukanye nk'imbuto zigizwe n'inkeri ndetse n'ibindi bikungahaye ku ntungamubiri.

Ahacururizwa ibinyobwa bidasembuye hari igikoresho cyanditseho inyange cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kubika, gutunganya, gukonjesha amata akaguma afite ubuzirantenge.

Agapapuro k'inyemezabwishyu gatangwa n'icyuma cy'ikoranabuhanga kigezweho, kerekana umubare w'amafaranga amaze koherezwa runaka.

Icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashihwa mu kwishyura, kohereza, kugura, kubitsa no kubikuza amafaranga utavuye aho uri, bari kukwereka uburyo wakoresha wishyura cyangwa ukora ibyo bikorwa byose.

Ikoranabuhanga wakoresha wishyura wifashishije igikoresho kigendanwa injira muri konti yawe ndetse ukaba wareba amafaranga usigaranye.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwifashishwa mu kubika, kohereza, kubikuza ndetse no kwakira amafaranga wifashishije icyuma kigendanwa mu ntoki.

Igice cy'umubiri cy'ukuboko k'intoki gifashe mu ntoki amafaranga agiye atandukanye harimo ay'igihugu cy' u Rwanda inote ya bibiri ndetse n'amavamahanga avunjwamo ay'amanyarwanda.

Uburyo bwo kwishyura wifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga rigendanwa ushobora gukanga akanyenyeri zeru zeru zeru urwego ugakomeza amategeko n'amabwiriza.

Uburyo bu ikoranabuhanga ukoresha wishyura igicuruzwa cyangwa se ubundi bufasha uhawe ukoresheje igikoresho kigendanwa mu ntoki k'ikoranabuhanga.

Kiriho uburyo amafaranga yagiye yinjira akanasohoka mu kigo gishinzwe imari n'umutungo kibikiye amafaranga abaturarwanda.

Igipapuro kiriho uburyo amafaranga yagiye yinjira ndetse akanasohoka k'ikigo gishinzwe kubika imari mu Rwanda ndetse n'amatariki amafaranga yagiye yinjiriraho akanasohoka.

Igipapuro cyerekana uburyo amafaranga yagiye yinjira anasohoka, gikoreshwa n'ikigo cy'icungamari runaka bikagenda byiyandika ku matariki.

Urupapuro rw'ikigo cy'icungamari mu rwanda cyerekana uburyo amafaranga yagiye yinjira anasohoka buri kwezi ndetse n'italiki.

Igipapuro cyerekana uburyo amafrw yagiye yinjira akanasohoka ku kigo cy'imari gishinzwe imicungire y'amafaranga ndetse n'umutekano wayo.

Igipapuro cy'icungamutungo cyerekana uburyo amafaranga yagiye asohoka kuri buri tariki n'uburyo yinjiraga n'umusoro kuri buri gicuruzwa .

Impapuro zerekana uburyo amafaranga yagiye yinjira, akanasohorwa mu kigo k'imari gishinzwe kubika neza amafaranga y'abaturarwanda.

Igipapuro kerekana uburyo amafaranga yagiye asohoka, aninjira mu bubiko bw'ikigo cy'imari gishinzwe kubika neza amafaranga y'u Rwanda.

Igipapuro cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imari no kuyicunga mu Rwanda, cyerekana uburyo amafaranga yagiye yinjira kuri Banki, akanasohoka.

Papuro kiriho uburyo amafaranga yagiye yinjira akanasohoka, mu kigo cy'imari gishinzwe kubika umutungo w'abaturage, kandi hariho n'amatariki.

Inote zifite agaciro gakomeye ziri mu bwoko bw'amafaranga atari amanyarwanda hari iy'atanu, icumi, makumyabiri, mirongo itanu, ijana, na magana abiri.

Icyapa kiriho uburyo bw'ivunja n'ivunjishwa bw'amafaranga y'amanyarwanda ndetse n'amanyamahanga. Bagenda bakwereka ibiciro by'ifaranga uko byifashe ku isoko ry'umugabane.

Umuntu ufite mu ntoki amafaranga yo mu kindi gihugu atari amanyarwanda akoreshwa mu kwishyura, kugura cyangwa se kwifashisha mu ngendo.

Amafaranga afite agaciro gakomeye cyane hano mu Rwanda ari mu bwoko bw'amadorari, avunjwa mu manyarwandad ndetse ari mu ibara ry'umweru.

Inote ebyiri z'ijana z'amafaranga afite agaciro gakomeye cyane, hariho umugabo ufite imisatsi miremire ndetse ayo mafaranga ari mu ibara ry'umweru.

Intoki zifashe amafaranga agiye atandukanye avunjwamo amanyarwanda ndetse n'ay'ibihugu byo hanze.

Inote zifite agaciro gakomeye cyane zitavunje mu manyarwanda ziriho umugabo ufite imisatsi myinshi.

Icyapa kiriho uburyo amafaranga agenda avunjwa, amafaranga yo hanze harimo; muri Amerika, mu Budage, mu Bubiligi, n'ahandi, uburyo amafaranga yagaze mu Rwanda.

Inzu irimo intebe nyinshi hicayemo n'abantu ariho n'insakazamashusho yanditsemo mu magambo y'icyongereza umujyi wa Kigali.

Abagore n'abagabo bahaye umwana muto igihembo cy'ishimwe ndetse umugore yambaye ikanzu iri mu ibara ry'ubururu bafashe icyapa kirimo ibara ry'umweru.

Bavunjishirizamo amafaranga, ukoresheje itumanaho cyangwa ibyuma by'ikoranabuhanga, iherereye muri Uganda mu gihugu cy'abaturanyi.

Mu bikorwa bigiye itandukanye by'ububaji byifashishijwe ibiti bikomeye hakabazwamo imbaho zigakoremo ibikoresho nk'ibitanda, utubati n'ibindi.

Igikoresho kibajwe mu buryo butandukanye bwiza kiri ahantu kikaba giteretsemo utundi dukoresho turi mu ibara ry'umweru inyuma hari ibidukikije bigizwe n'ibiti.

Inzu yubatswe neza mu buryo bugezweho kandi bwiza. Imbere hari intebe ndetse n'imeza bibajwe mu buryo butandukanye, ndetse hasi hari utubuye dusashe mu mbuga.

Inzu nziza cyane irimo uburyamo busashe neza, hariho imifariso iri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru, imbere hari akabati gafunze, hejuru hariho isaha irimo indabo.

Ahacururizwa ibikoresho bigiye bitandukanye, bibajwe mu mbaho. Imbere hari icyuma cy'ikoranabuhanga kifashishwa mu gusakaza amajwi n'amashusho. Kuruhande hari ururabo ruri mu gikombe.

Hejuru iri ni igorofa rirerire, hari amatara yo ku muhanda ari mu ibara ry'umuhondo yaka cyane, hariho ibirahure biri mu ibara ry'umukara.

Inzu y'ubukerarugendo irimo amacumbi ndetse n'aho abantu bicara bakaganirira bagafata amafunguro hari udutara twiza cyane turi mu ibara ry'umuhondo ndetse n'indabo n'ibiti.

Inzu nziza icumbikwamo, mu gikoni hari utubati turi mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara. Hari icyuma kandi gicometse, cyifashishwa mu gushyuhsya.

Inzu irimo amacumbi icumbikira abanyamahanga ndetse n'abaturarwanda bari kwakira umunyamahanga uje ubagana bambaye impuzankanao iri mu ibara ry'umukara.

inzu y'igorofa rirerire yubatse ahantu heza, hatuje kandi hatunganye. iri mu ibara ry'umweru, umutuku ndetse n'umukara

Icyumba k'icumbi cyangwa inzu kiri ahantu heza, uburiri bushashe neza buriho amashuka afite ibara ry'umweru, hirya gato hari intebe z'imifariso.

Igorofa yubatse mu buryo bukomeye kandi bwizewe, bw'isuku. Isize amarange meza ari mu ibara ry'ubururu. Imbere hari ibinyabiziga bibiri.

Ni inzu irimo gikoni cya kijyambere harimo harimo amazi n'imbere y'imu giko akoresha mu gikoni koza uri koza amasahani cyangwa amasafuriya hakaba harimo icyumba cyo kuraramo ndetse n'ubwogero ika ikodeshwa ibihumbi magana abiri ku kwezi, ikaba iherereye i kigali kacyiru.

Imyanya nyaburanga ikorerwamo ubukerarugendo hari amazu meza y'amagorofa ari mu ibara ry'umweru yifashishwa mu icumbi hari intebe nziza ndetse n'umutaka uri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Inzu nziza cyane yubatse mu buryo bwiza bufite isuku kandi bukomeye burambye ifite amabara meza cyane arimo ubururu ndetse n'umweru kandi ku meza hateretse ikirahure kirimo indabo.

Icyanya cy'urukerarugendo kirimo ubusitani bwiza cyane butoshye bugizwe n'uturabo turimo ibara ry'umuhondo ndetse n'umutuku, hari kandi amazi.

Nini ikorerwamo inama cyangwa iganirirwamo ibintu bigiye bitandukanye, hari intebe zibajwe mu mbaho, imbere hari icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu gusakaza amajwi.

Ikigo cy'ubwishingizi gitangwamo amafaranga akazakugoboka mugihe k'izabukuru cyangwa warwaye wagize impanuka se n'ibindi bihe bigoye bitandukanye.

Icyigo cy'ubwishingizi gikorera mu ntara y'amajyepfo akarere ka muhanga aho kifashishwa mu kubitsamo amafaranga yakugoboka mugihe cy'izabukuru.

Abantu bicaye benshi bisa nk'aho bari mu mahugurwa, bafite utuntu tw'uducupa tw'amazi ku ruhande yaho harimo abagore, harimo abagabo, harimo abazungu; hirya hari ibyapa byinshi byamamaza ibyo barimo.

Ikigo cy'imari gishinzwe ubwishingizi n'ubwiteganyirize mu Rwanda, aho bishingira abantu bakabaha ubwiteganyirize bwo mu zabukuru bw'impanuka, ndetse n'ibindi.

Inzu z'ubucuruzi zigiye zitandukanye, ahacururizwa ikinyobwa gikorwa n'uruganda rw'inyange kirimo; amata, amazi ndetse n'ibindi.

Ikigo cy'ubwishingizi cyifashishwa mu kugoboka abanyamuryango bacyo bizigamiyemo mu gihe cy'impanuka mu za bukuru cyangwa se mu gihe cy'ibyago.

Ikigo cy'ubwishingizi kiri mu igorofa rirerire, riri mu ibara ry'ubururu bwijimye. Batanga ubwishingizi ku za bukuru ndetse no ku binyabiziga.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga urubuga ushobora kuguriraho ifatabuguzi ry'uburyo uzinjira mu gitaramo cy'abahanzi aho bazaba bari kugabanyirizwa mirongo itatu ku ijana.

Abagore n'abagabo bishyize hamwe bakora itsinda ryizigamirwamo amafaranga make make bakiteza imbere. Baguze ibitenge ndetse n'indi myambaro itandukanye.

Tekana ni ikigo cy'ubwishingizi cyifashishwa mu kwishingira ibinyabiziga. Hamagara ku murongo utishyuzwa mirongo itanu na rimwe, makumyabiri.

Igipapuro kerekana uburyo wasaba inguzanyo ukanayihabwa, binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga ukagenda uyishyura gake gake ku kwezi cyangwa ku mwaka.

Urupapuro rw'inguzanyo rugaragaza amazina aho utuye umukono ndetse n'amataliki uwakiyeho inguzanyo ayisabiyeho

Nyiricyubahiro umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda yambaye ishati y'umweru nipantaro y'umukara mu kiganza cy'iburyo afite icyuma ndangururamajwi ndetse n'agacupa k'amazi kuru ruhande yicaye hagati y'abantu abantu benshi bamuhanze amaso.

Isoko rusange ricururizwamo imyenda ndetse n'inkweto zigiye zitandukanye iy'abagabo, abagore, abana, abasore, inkumi ingeri zose, hari umukobwa wambaye ikanzu irimo ibara ry'umutuku.

Isoko rucururizwamo n'abantu bingeri zose, hacururizwa imboga, imbuto. Imboga zigizwe n'ibihaza ndetse n'imbuto zigizwe n'amatunda, imineke n'amacunga n'ibindi

Isoko rinini ririmo abaturage baje guhaha harimo abatayeri bafite imashini zifashishwa mu kudoda, ndetse n'ibitenge byinshi bifite amabara atandukanye.

Bugiye butandukanye hari ibisabo ndetse hari n'abana b'abakobwa bari kudoda imideri igiye inyuranye mu buryo bugezweho.

Inzu y'ubucuruzi icuruza imyambaro y'abagore, iri mu mabara menshi cyane agiye atandukanye, harimo ubururu, umutuku, umukara, icyatsi kibisi ndetse n'andi, hari intebe iri mu ibara ry'umweru.

Isoko ry'ibiribwa by'ibinyampeke ndetse n'imbuto nk'imineke iri mu bwoko bwa kamara kuruhande hari inyanya ziri mu ibase, amashaza ndetse n'ibishyimbo.

Isoko ryubakishijwe amabati ashaje ricururizwamo imyambaro igiye itandukanye, iy'abagore, abagabo, abana, abakecuru ndetse n'abasaza hari kuzamukamo abahungu batatu.

Isoko ririmo urujya n'uruza rw'abantu abaguzi ndetse n'abacuruzi bacuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo imboga, n'imbuto zirimo imineke, amatunda n'ibinyomoro.

Akazu gato k'ubucuruzi kari mu ibara ry'umuhondo, ishami rishinzwe gutanga ubufasha kubirebana n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu kwishyura, kubitsa, kohereza n'ibindi.

Umuntu wicaye wambaye umwenda urimo ibara ry'ubururu afite igikoresho cy'ikoranabuhanga kigendanwa gikoreshwa mu guhamagara ndetse n'ibindi bitandukanye.

Kijyambere ricuruzwamo ibiribwa bitandukanye harimo; imbuto n'imboga ku gikuta hamanitseho igipapuro cyerekana uburyo wakwishyura ukoresheje ikoranabuhanga.

Umugabo uri kwishyura akoresheje igikoresho kigendanwa cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu itumanaho, afite imbere ye ikiribwa cy'inyana cyuje intungamubiri, i ruhande rwe kandi hari umutaka uri mu ibara ry'umutuku.

Umugabo ukora mu muyoboro w'itumanaho mugari mu Rwanda, wambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo ari gutanga impano ku muguzi ndetse imbere yabo hari mudasobwa.

Isoko rya kijyambere , aho wishyura ukoresheje igikoreshe cy'ikoranabuhanga kigendanwa mu ntoki bakaguha inyemezabwishyu yizewe. Imbere ye hari mudasobwa.

Inzu nini cyane iri mu ibara ry'umuhondo yanditseho ryoherwa n'umuvuduko wa interineti ya kane ga aho waba uri hose wayisanga hano muri egisipo, hari ibikoresho by'indangururamajwi, ndetse n'umukozi ushinzwe umutekano.

Inzu itangirwamo ubufasha ku birebana no kwishyura kuguza kubitsa cyangwa kohereza amafaranga utavuye aho uri ukoresheje icyuma k'ikoranabuhanga.

Ikarita yerekana uburyo wakwishyura nta kiguzi. Kanda akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu, akanyenyeri gatatu urwego, ukurikizeho nimero y'umucuruzi, gatandatu zeru zeru, cumi n'ikenda gatandatu.

Umuyobozi w'ikigo gishinzwe itumanaho umuyoboro mugari mu Rwanda, yambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo yandikishijeho ibara ry'ubururu, ari kuganiriza umuturage ku bijyanye n'ibyo bakora.

Ikigo gikuru gishinzwe umuyoboro w'itumanaho mugari mu Rwanda haje abaturage baje gusaba ubufasha bugiye butandukanye, imbere y'abakozi hari mudasobwa bambaye impimuzankano ziri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru.

Akazu gato k'ikigo gishinzwe itumanaho umuyoboro mugari kari mw'ibara ry'umuhondo aho abaturage baje kubaza kubijyanye no kubitsa no kubikura amafaranga utavuye aho uri ukoresheje igikoresheje igikoresho cy'ikoranabuhanga.

Gato gacururizwamo ibijyanye n'ikoranabuhanga harimo kubitsa, kubikuza, kohereza cyangwa kwakira amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga kari mu ibara ry'umuhondo.

Ahatangirwa ubufasha kubirebana n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga aho wishyura, ukohereza, ukakira utavuye aho uri. Umukozi yambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru imbere ye kandi hari mudasobwa.

Ahakorerwa imurikagurishwa ku birebana n'umuyoboro mugari w'itumanaho mu Rwanda Emutiyene, hari ikirango kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umukozi yambaye impuzankano y'akazi, iri mu ibara ry'umweru.

Akazu gato cyangwa ishami ry'ikigo k'igihugu gishinzwe ikwirakwizwa ry'itumanaho muyoboro mugari mu Rwanda. Umugabo wambaye impuzankano iri mw'ibara ry'umutuku.

Umurongo mugari w'itumanaho mu Rwanda bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo, ndetse bakaba bari gufasha abaturage ku birebana no koreza kwakira kubitsa no kubikuza amafaranga ukoresheje ikoranabuhanga.

Cyangwa ishami rishinzwe gutanga ubufasha ku birebana n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu kohereza, kwakira, ndetse no kubika amafaranga utavuye aho uri kari mu ibara ry'umuhondo.

Ahatangirwa ubufasha hari umukobwa uri gucuruza bari kumwishyura bakoresheje igikoresho cy'ikoranabuhanga kigendanwa mu ntoki bari kumwereka ubutumwa bugufi bw'inyemezabwishyu.

Akazu gato cyangwa ishami rishinzwe gutanga ubufasha mu birebana n'itumanaho umuyoboro mugari mu Rwanda, kari mu ibara ry'umuhondo hari abakozi bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru

Umukozi w'ikigo cy'umuyoboro mugari w'itumanaho mu rwanda ndetse akaba yambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo n'ubururu; akaba ari gufasha umuturage usanzwe mu bijyanye no kwishyura akoresheje ikoranabuhanga.

Igikoresho cyifashishwa mu gutwarwamo ibiribwa abivana hamwe abijyanyae ahandi. Umuguzi yishyura akoresheje ikoranabuhanga.

Umukobwa wambaye agapira karimo ibara ry'umweru yambaye ibikurura amajwi biri mu ibara ry'umweru ndetse afite igikoresho k'itumanaho mu ntoki imbere ye hari agakapu kari mu ibara ry'umukara.

Ibiga bitatu biriho amakarito yifashishwa mu gutwara ibiryo cyangwa ibindi biribwa bigiye bitandukanye bishyikirizwa uwabitumije hifashishijwe ikoranabuhanga.

Inzu ikorerwamo ubugeni bw'amafoto n'indi mitako igiye itandukanye, hariho amatara ari mu ibara ry'umuhondo ndetse hubakishije utubaho dusize ibara ry'umweru.

Urubuga rw'ubucuruzi ruhurirwaho n'umuguzi n'umugurisha bakoresheje ikoranabuhanga bakaba baganira ku bicuruzwa bigiye bitandukanye harimo mudasobwa, ibinyabiziga n'ibindi.

Ibinyabiziga biri ku murongo bitwara ibyo kurya mu buryo bwiza kandi bwizewe, bufite isuku n'umutekano imbere yabo hari ibidukikije bigizwe n'ibiti,

Ikinyabiziga cy'igare hariho umuhungu ufite igikapu mu mugongo gitwara ibiribwa bihiye kibijyana ahantu hagiye hatandukanye cyanditseho vuba vuba kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Y'icumbi ikodeshwa cyangwa igurishwa, iherereye mu mugi wa Kigali ahagana Kibagabaga, iyi nzu kandi irimo ibikoresho byinshi bitandukanye, nk'icyuma gikonjesha.

Ikodeshwa iherereye mu mujyi wa kigali mu gihugu cy'u Rwanda mu gace ka Kabeza irimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga harimo ibishyushya ibyotsa ndetse n'ibikonjesha

Inzu yubatswe mu buryo bwiza kandi bwa kijyambere, bwuje isuku ndetse n'ubuhanga bukomeye aho hari icyuma cyifashishwa mu kubika ndetse no gukonjesha, ibinyobwa n'ibiribwa.

Umugabo uri kwamamaza ikibanza kinini kigizwe n'ubutaka giherereye Musave, Bumbogo i Kigali ari kukigurisha miliyoni cumi n'eshanu z'amanyarwanda.

Izu nziza cyane, yubatswe mu buryo bugezweho iherereye mu mujyi wa kigali mu rwanda, ikodeshwa ibihumbi ijana na mirongo itanu ku kwezi irimo imifariso ndetse n'icyuma cy'ikoranabuhanga cy'isakazamashusho.

Umugore w'umwirabura wambaye ikanzu ifite amabara menshi cyane agiye atandukanye, ari gusobanurira umuzungu ibijyanye n'ibiri aho ngaho, imbere hari igikoresho cyifashishwa mu kwerekana amajwi n'amashusho.

Icyumba kiza cyane cyubatswe mu bwoko bw'ikoranabuhanga ndetse bwiza bufite isuku bunakomeye. Hari amabara menshi agiye atandukanye: umweru ndetse n'umukara hari agatara gato kari mw'ibara ry'umuhondo.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, imbere harimo imifariso iri mu ibara ry'umweru n'umukara ndetse n'umuhondo. Hari kandi aho baganirira n'aho barira.

Ubwogero bwubatse neza mu buryo bugezweho bwa gishirimu, aho hubakishwa hakoreshejwe ibikoresho by'ikoranabuhanga bufite isuku kandi burizewe.

Ikodeshwa iherereye mumugi wa Kigali kicukiro ifite ibyumba bine, ndetse n'ubwogero bune igakodeshwa ibihumbi maganarindwi y'amanyarwanda.

Inzu nziza, yubatse ahantu heza, mu buryo bugezweho, isize amarangi meza cyane, urugi rufunguye rurimo urufunguzo. Ikodesha ibihumbi ijana na mirongo itanu.

Inzu iri mu mujyi wa Kigali iherereye i Gishushu, ikaba ikodeshwa, ndetse ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, hari icyuma gikurura amajwi ndetse kikanasakaza amashusho mu buryo bugezweho.

Indabo nziza cyane zitewe mu buryo bugezweho zitatse inzu ifite amabara menshi kandi meza atandukanye arimo umweru n'umutuku n'ibindi.

Ubwiherero bugezweho, busukuye kandi butunganye, hejuru hari imbaho zibaje neza, ku ruhande hari ibyuma bogeramo byuje isuku.

Inzu y'ubukode iherereye Kigali Kimironko, yubatse neza, ikodeshwa ibihumbi magana atatu ku kwezi. Harimo ibitanda bibiri, n'ubwogero bubiri.

Inzu nziza cyane isize amabara meza arimo ibara ry'umuhondo, umukara, icyatsi n'ayandi meza atuma arushaho kuba nziza. Iyi nzu irakodeshwa.

Umugabo uri kwamamaza inzu iri mu mabara meza cyane hasi hashashe utubuye dukoze mu ikoranabuhanga. Iyi nzu ifite amabara arimo icyatsi kibisi, umutuku n'umweru.

Inzu ndende cyane y'igorofa, iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara, isize n'andi mabara menshi cyane agiye atandukanye, igizwe n'ibyumba bibiri n'ubwogero bubiri.

Ikodeshwa ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwogero bubiri iherereye Kimironko mu mujyi wa Kigali igizwe n'amabara y'umutuku ndetse n'ubururu bweyurutse.

Inzu nziza cyane iri ahantu hitaruye hari ubusitani bw'utwatsi dutoya, ndetse ikaba isize amarangi meza cyane arimo umuhondo ndetse n'umukara.

Inzu ikodeshwa nziza yubatse heza ikoranye ubuhanga buhanitse kuko irakomeye cyane, hasi hashashe utubuye twiza, kumpande kandi hari indabo nziza.

Inzu y'ubucuruzi igezweho ikoranye ikoranabuhanga rihanitse, bacuruza ibinyobwa bifunze neza muburyo bwizewe kandi bufite isuku.

Inzu y'ubucuruzi iri mu bwoko bw'igorofa isize amarangi y'umweru ndetse n'icyatsi, hasi hari ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu biri mu ibara ry'umukara n'umweru.

Rya kijyambere rigezweho, ririmo ibicuruzwa byanyujijwe mu nganda bigiye bitandukanye, ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya byuje intungamubiri zitandukanye.

Ahacururziwa imyenda y'abana iri mu mabara agiye atandukanye arimo umweru, ubururu, umutuku ndetse n'ayandi amanitse kumurongo mu buryo bugiye butandukanye.

Isoko rya kijyambere ricururizwamo imitako n'ubunyabugeni bwa gakondo, harimo ibishushanyo bibajwe nk'imisambi ndetse n'utundi dusimba tugiye dutandukanye, hakaba harimo kandi n'indabo bategura mu ruganiriro.

Umumama wambaye ingofero mu mutwe, akaba yambaye ikanzu yiganje mo amabara y'ubururu, umweru, umuhondo ndetse n'umukara, imbere ye hakaba hateretse ameza ateretse ho utu jerekani bashobora kwifashisha batwaramo amazi cyangwa se babikamo amata, ama teremusi n'ibindi.

Isoko rya kijyambere rigizwe n' ibicuruzwa byanyujijwe mu nganda bigafungwa neza kuburyo bwizewe kandi bubirinda kwangirika bukoranwe isuku ndetse n' ubuhanga.

Isoko rinini, rigari, ryiza, rifite isuku n'umutekano. Hari umukobwa uri guhaha imboga, zirimo inyanya, ibitunguru, n'ibindi.

Isoko rya kijyambere ricururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo imbuto ziganjemo amatunda, ibinyomoro ndetse n'imineke hakabamo n'imboga zirimo amashu inyanya na karoti.

Ikarita y'ubwishingizi. Ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda .ikarita y'umunyamuryango y'ubwisungane mu kwivuza, ufite iyi karita ntarebera mu rugo.

Abakozi babiri b'ikigo cy'ubwiteganyirize n'ubwishingizi mu Rwanda bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umweru, bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara, imbere yabo hari imeza ibajwe neza.

Ejo heza ni ikigo cy'ubwizigame bw'igihe kirekire. Hari umugore ufite akamwenyu ku maso wambaye amataratara ndetse n'impuzankano y'akazi iri mu ibara ry'ubururu.

Zinda ni umugabo wakoresheje ikigo cyiza cy'ubwishingizi ejo heza afite igipapuro cyanditseho umubare w'amafaranga miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri na mirongo itanu y'u Rwanda impamvu ubwishingizi bw'ubuzima.

Ikiganza gifashe bike yandika y'ubururu mu ntoki imbere ku meza hari amakarita ari mw'ibara ry'umuhondo.

Umugore uri gutanga ibipapuro, abaturage bicaye mu busitani ndetse k'uruhande hari igiti kirekire kimanitseho itsinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Ikigo gishinzwe ibarurishamisoro, bambaye impuzankano ziririmo ibara ry'umweru, ndetse n'ibirango biri mu ijosi biri mu ibara ry'ubururu, bafite imbere yabo mudasobwa zifashishwa.

Imbaga nyamwisnhi yaze gusobanirirwa ku bijyanye n'ubwishingizi bw'ejo heza aho wishingira umwana muto bikamufasha kuzabaho neza mu za bukuru cyangwa igihe yaba yagize ikindi kibazo cy'ubuzima.

Umugabo ufite icyuma cy'indangurura majwi muntoki ze ari gusobanurira abaturage kubijyanye n'ikigo cy'ubwishingizi, kizigamira abantu muzabukuru ndetse cyikanatanga ubwishingizi mukwivuza.

Isoko rya kijyambere ryiza ryubatswe mu buryo bugezweho ricuruza ibicuruzwa biribwa ako kanya bifunze neza mu bikoresho byabugenewe bibirinda kwangirika.

Kijyambere ricuruza ibintu bigiye bitandukanye nk'imbuto, inyama, imboga, n'ibindi kandi zicuruza ibintu byaturutse mu nganda bigafungwa neza.

Isoko rya kijyambere ricuruzwa ibiribwa n'ibinyobwa byanyujijwe mu ruganda bigatunganywa, bikabika neza mu buryo bwabugenewe bwa kizungu bufite isuku n'umutekano.

Y'ubucuruzi ibicuruururizwamo ibinyobwa bigiye bitandukanye ndetse n'ibiribwa byanyujijwe mu ruganda bigafungwa neza mu buryo bwabugenewe bubirinda kwangirika ndetse bufite isuku ntakemangwa.

Isoko rya kijyambere ricururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye binyuzwa mu nganda bigafungwa neza muburyo bw'isuku kandi bwizewe bubirinda kwangirika.

Isoko rya kujyambere rigezweho ricuruza ibiribwa byanyujijwe mu ruganda bigatunganywa neza bigafungwa mu bikoresho byabugenewe bibirinda kwangirika .

Isoko rya kijyambere ricururizwamo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa byanyujijwe mu nganda bigafungwa neza mu buryo bwa kijyambere bugezweho, bufite isuku bubirinda kwangirika ndetse.

Isoko rya kijyambere ricuruza ibiribwa byanyunjijwe mu ruganda bigafungwa neza mu amacupa yabugenewe, ndetse n'ibindi bikoresho nk'ibikarito cyangwa amashashi yemewe abirinda kwangirika ndetse bikagumana ubuziranenge.

Isoko ryiza cyane rya kizungu rigezweho ricururizwamo ibiribwa cyangwa ibinyobwa byanyujijwe mu ruganda bagafungwa neza mu masashi yabugenewe.

Isoko rya kijyambere rigezweho ririmo ibicuruzwa byayujijwe mu nganda, biconze neza mu buryo bwa kijyambere kandi bwizewe, bufite isuku ndetse n'umutekano.

Inzu y'ubucuruzi igezweho icuruza ibicuruzwa byanyuze mu ruganda bigafungwa neza kuburyo bwiza kandi bwizewe bufite isuku n'umutekano uhagije.

Umugabo wambaye amarinete wambaye ikoti ryiza rya kolesitimu ndetse yambaye n'ishati y'umweru uyu mugabo afite umusatsi uringaniye inyuma yiwe hicaye umugore ndetse n'umugabo bambaye amakarita y'akazi uyu mugabo imbere hatetse agacupa k'amazi k'inyange ndetse akaba ameze nkuri gutanga ibitekerezo.

Isoko rya kijyambere rifite ububasha bwo kwakira abantu benshi, ricururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye byanyujijwe mu nganda, bigafungwa neza mu buryo bubirinda kwangirika.